Uyu mugabo uko bigaragara ari mu nama arimo kugenda yumva ibyo barimo kugenda bamusobanurira ndetse akaba yambaye n'impuzankano ya RIB, ubwo bivuze yuko ari umugenzacyaha arimo kugenda agenza icyaha agenda anatara amakuru.

Imihanda igenda inyura mu makaritsiye yo muri Nyagatare ndetse n'ahandi hantu hatandukanye, aho iyi mihanda yagiye ifasha abaturage mu guhahirana ndetse no kugira isuku hagati y'ibyo bakora nabo bagenderana.